Ifi yokeje iri ku isahani iriho n'ibirayi n'igitoki na kaseleri iri kwipra ku isahani muri resitora, iyi fi ikaba yaguzwe n'umukiriya nka komande.

Umugore wambaye agapira karimo amabara uri guseka uri gucuruza ubuki, amavuta, n'ibindi bintu biri mu bikombe bitandukanye, uwo mugore akaba ahagaze ibyo bikombe birimo ubuki bikaba biteretse muri kontwari, umugore akaba ahagaze imbere ya kontwari.

Ibyo kurya biri ku isahani. Ibyo kurya hakaba harimo ifiriti, hakaba harimo n'inyama. Inyama zikaba zikomoka ku matungo. Ifiriti ikaba ikomoka mu birayi, bayiteka mu mavuta. Ibirayi barabihata barangiza bakabishyira mu mavuta, bimaze gushya bikavamo ifiliti. Hakaba hariho n'igitunguru na deseri na salade y'ibitunguru.

Abagabo bari kugenda baganira amatara yaka， mu kabari，abo bagabo bakaba bambaye imyenda y'umukara， n'amashati y'umweru，ariko imbere yabo hakaba hariho n' indobo y'umutuku.

Muri hoteli ahantu abakiriya barira, hari ameza ateguyeho udutambaro ndetse n'amafoke, hari kwaka n'amatara n'intebe abakiriya bicaraho, ahangaha akaba ari aho abakiriya bafatira ibyo kurya.

Inzu z'ubucuruzi, zometseho amapavi. Noneho cyangwa se amakaro, imbere yazo hakaba hari umukobwa uri kugenda, muri izo nzu hakaba harimo umuryango umwe ukinguye, izo nzu ziri mu isantere.

Inzu z'ubucuruzi zifite imiryango ibiri ikinguye, harimo umugore n'umugabo binjiye baje guhaha, umugabo rero yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro . Ahandi mu wundi muryango harimo umugabo wambaye ishati ya karokaro, ari kwitegereza hanze ku miryango y'izo nzu, hariho nimero za telefone wabarizaho ushaka bene inzu.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibyokurya n'ibyo kunywa. Ikaba irimo: amata, amaji atandukanye, harimo n'zayahurute, harimo n'fanta biri muri kontwari ndetse n'ibindi biri mu kabati.

Inzu y'ubucuruzi imbere yayo hari umunyonzi wambaye agakoti k'umutuku gafite ibara ry'umweru iyo nzu mu mpande ifite coloture, iyo nzu ifite colotire iganisha imbere mu kindi gipangu iyo nzu ifite colotire yibara ry'ubururu noneho iyo nzu ikaba ikinguye.

Urugi rw'umukara rukoze mu byuma， urwo rugi akaba ari porutayi ifungishijwe iserire， rukaba ruteye ku gikuta cy'amatafari ahiye，urwo rugi rukaba rutanga gasopu ku bantu bagiye kwinjira mu gipangu mo imbere，ko bagomba kubanza bakomanga.

Mu isoko aho bacururizwa bacururiza ibikapa amagurudu, bakahacururiza imitako n'amashuka n'amabase; muri make hano hacururizwa ibikoresho byo mu gikoni ndetse n'ibikoresho by'isuku ndetse hagacururizwa n'ibikapu byo gutwaramo ibikoresho bitandukanye nk'amabase n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibijanye na Papiteri. Papiteri ni ibintu bijyanye no :kufotora abantu, gucuruza impapuro , n'ama n'amantuza n'amakaramu ndetse bakanababimpurimira, bikaba biri mu nzu y'ubucuruzi mu isoko rya Goyiko.

Inzu y'ubucuruzi mu isoko rya Kinigi ikaba ifite imiryango itatu, umuryango umwe usize irangi yometseho amapave, noneho umuryango umwe ukaba uriho irangi ry'umuhondo undi muryango ukaba ukinguye hakinguye imiryango ibiri ,iyo nzu ikaba ikorerwamo ibintu bitandukanye by'ubucuruzi.

Ibipupe bibiri bizwi ku izina rya maneke, biri imbere ya butike cyangwa se y'aho bacururiza imyenda, noneho hakaba hari n'amakoti amanitse kuri porotementi, n'umugore w'igituku uri gucuruza iyo myenda.

Inzu y'ubucuruzi igeretse gatatu iri mu Mujyi wa Msanze, iri kumwe n'andi mazu ari kubakwa atarakorerwa finisaje, finisaje, hariho na parikingi, hariho na parikingi y'imodoka zitandukanye ndetse n'abamotari baje kurema isoko.

Inzu y'ubucuruzi iri impande y'umuhanda wa kaburimbo, hariho amapoto y'amashanyarazi e ndetse hakaba hakorera hakorerwa ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ariko ni impande y'umuhanda wa kaburimbo mu makaritsiye.

Inzu y'ubucuruzi ifunguye. Imbere yayo hari abantu. Iyo nzu ikaba itangirwamo serivisi z'irembo, serivisi za banki ya Ekwiti n'ibyo bita wesiti yuniyoni. Ni uburyo bwo kubitsa amafaranga no kuyabikuza utayabitse mu rugo, ukayabitsa kuri banki bakazayaguha mu gihe uyakeneye.

Inzu y'ubucuruzi，yomekesheje amapave， imbere yayo hakaba hari matera, hakaba hari umumotari uparitse moto， igaragaza purake inyuma， ifite ibara ry'umuhondo， hakaba hariho n'ibicuruzwa bitandukanye，birimo amasogisi，n'utundi tuntu turi kuri tiruwari，dutanditse muri iyo nzu.

Inzu y'ubucuruzi, imbere yayo hahagaze abagabo babiri, umwe wambaye ishati y'icyatsi undi wambaye ishati y'umukara. Iyo nzu irakinguye, hejuru yayo hari indi ihageretse, noneho hakaba hariho icyapa kigaragaza ko ari kwa Munyaneza, noneho imbere yaho hakaba haparitse umumotari.

Ku isoko kuri butike aho bacuruza ibyombo, amasafuriya, indobo, ibikuvurori byo kwiyorosa ndetse bagacuruza amakanete. Izo ndobo zifite ibara ry'ubururu, ibara ry'umutuku ndetse hakabamo n'amabase atandukanye n'ibindi bicuruzwa nka marete z'abagore.

Amandazi ari ku iparato, isafuriya iri ku meza, icyuma cyangwa se indiga n'imbabura biteretse ku itabureti, aya mandazi bamaze kuyateka hariho n'umuntu uri guponda, uri gukora ibipondi byayo.

Inzu y'ubucuruzi irinzwe n'umusekirite wambaye umukara n'umweru n'inkweto, hasi isashe amapave ifite inzugi za metalike.

Aho butike bacururizaho imineke noneho bagacururizaho iyo mineke ya poyo iri mu mugore ari kuyibara ifite ibara ry'umuhondo noneho hakaba hacurujweho n'izindi mbuto zitandukanye harimo nk'imyembe byose akaba ari imbuto ziribwa.

Amabutike cyangwa se amangazini bacuruza ibicuruzwa bitandukanye. Kuri ayo mangazini imbere hicaye abagabo bagera kuri batanu. Harimo umugabo umwe wambaye boti z'ubururu n'ikoti, abandi bambaye bodaboda. Hariho n'umutaka w'umuhondo ucururizwamo mitiyu, imbere yo kuri iyo nzu hari.

Uruganda rw'isabune ruriho, rushushanyijeho amagambo avuga ngo : "isabune yo gukoropa", noneho n'umuti wica imibu. Aha ngaha akaba ari aho bakorera isabune yo gukoropesha.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibijanye na papiteri ikaba ikingishije urugi rwa metalike, ariko na yo ikabikoze muri metarike. Ifite iserire n'ingufuri ikinze ku buryo iyo ufungura ingufuri ugakora ku yindi ngufuri irimo imbere, noneho ikaba icururizwamo ibijanye na papiteri.

Abagabo babiri bambaye bodaboda bicaye imbere y'umuryango bari kureba muri telefone, n'abandi bagabo babiri bari imbere muri butike ahari gucururizwa ibicuruzwa bitandukanye nk'umuceri n'ibindi, baje guhaha ibyo bicuruzwa bitandukanye biri imbere y'umuryango wa butike.

Mu gikoni aho batetse kumashyiga ya kijyambere igikoni kifite isuku kiririmo amakaro batetse ku masafuriya ariko bakaba batetse kuri rondereza cg se cana rumwe.

Aho bakorera amatelefone, udutelefone twa matushe iyo twapfuye badufungura inzugi, bakadukora mu nzu y'ubucuruzi mu santere ya Byangabo.

Inzu y'ubucuruzi hakaba haparitseho amagare, isize irangi ry'umweru, n'urugi rwa metalike rukingurirwa habiri rufite ubu irangi ry'ubururu n'amapoto n'ibikuta bi biri imbere by'umweru n'umukara.

Icyapa cyanditsweho ngo irebe mu nyuguti z'icyapa noneho hakaba handiditsweho na basiketi mu nyuguti z'umukono, hari na nimero ya telefoni, igihe abantu bashobora guhamagara mu gihe bakeneye nyiri icyo cyapfa cyangwa se nyiri icyo kibuga cy'umupira.

Mu isoko ahacururizwa, hari amabutiki ,hari gucururizwa intuza mitiyu, ndetse n'umugore uri gutambuka imbere y'isoko y'izo butike. Noneho inzu, butike zikaba zisizwe irangi ry'umuhondo, ndetse iriho n'igipangu c'urugi rw'umutuku n'urw'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi bari gucuruza ibintu bitandukanye by'ubuconsho. Bakaba bateka resitora bari gucuruza ibintu bitandukanye bakaba bari guteka resitora, bakaba bafite ibijerekani cyangwa se ibidomoro ndetse hakaba hariho n'intebe.

Inzu y'ubucuruzi ifite umuryango ufite urugi rwa metalike imbere yayo hari umugabo uri kugenda, hakaba hateretse n'amacupa y'amagaze bacururizamo gaze yo gutekesha, hari n'umugabo uhicaye, iyi nzu ayo magaze iyo bayaguze bayatekesha ibyo kurya mu cyimbo cy' inkwi cyangwa se cy'amakara.

Aho bacururiza imbaho, idongo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye byo gukuramo inzugi n'amadirishya, bakaba bahita kenkayori cyangwa se isoko ry'ibyiringiro ngo rimitidi haba hashyizeho nimero wabashakiraho uramutse ubakeneye ngo bagukorere urugi.

Inzu y'ubucuruzi mu Murenge wa Kinigi, aho bafotorera abantu bashaka kwifotoza amafoto magufi cyangwa maremare, iyi nzu ikaba ikorerwamo ibikorwa by'ubufotozi by'ubufotozi aho abantu bashaka kwifotoza bajya kwifotoreza ariko ni inyubako y'ubucuruzi.

Inzu y'ubucuruzi isize irangi ry'umuhondo ikaba ikorerwamo ibintu bijanye na papeteri, aho umuntu yifotoreza ,akempurimamo impapuro ,harimo bigaragara ko ikinguye ikaba irimo abakiriya kandi hamanitseho na nimero za telefone ukeneye nyiri izo se....

Umugabo uhagaze imbere y'inzu yanditseho kenkayori, wambaye ishati y'umweru n'ingofero, hakaba hari ijerekani y'umuhondo n'amadobo menshi cyangwa se indobo zirimo irangi, irangi barikoresha bari gukora amasuku ku mazu, bari gusukura inyubako, mbese n'ahandi hantu hamaze kwandura.

Inzu y'ubucuruzi imbere yayo hakaba hari amacupa ya gazi. Iyo nzu irageretse amacupari afite ibara ry'umutuku, noneho gaze ikaba ikoreshwa bateka mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije.

Abanyonzi bari kujya kurema isoko, bafite batwaye amagare batwara n'abantu n'umumotari n'abamotari n'abandi bantu baje kurema isoko rya Kariyeri. Aha ngaha ni mu isoko ry'ibiribwa mu Mujyi wa Musanze, niho harimo abo bagenzi.

Umunyonzi uri mu mugi wa Musanze aho bita ku Gacuri, avuye kurangura ibisheke mu gice cyo mu Gashusha, nako cyo mu Masha; ibisheke akaba abitwaye ku igare, hari ibiri mu mahembe hari n'ibiri ku ntebe inyuma. Ubwo ari kugenda abisunika mu muhanda ari kumwe n'umugore, umenya uwo mugore ari kugura igisheke.

Ibihaza bitanu by'amadegede bitanditse ku gisima, n'abandi bantu bari kugenda hirya y'isoko harimo uwambaye ishati y'ubururu. Ibi bihaza barabirya bakabiryamo amadegedi, bakabirya bigeretse ku bishyimbo, babiryamo imboga, ndetse babikoramo potaje. Ibihaza bifite akamaro ku buzima bw'umuntu.

Inzu y'ubucuruzi ikinguye，ikaba iriho icyapa kigaragaza ko ari kuri arimantasiyo， bakaba bacururizamo amaji n'amata y'inyange，n'ibindi bicuruzwa bitandukanye. Iyo nzu ikaba ifite urugi rwa metarike， rusize irangi ry'ubururu.

Ni inzu y'umuco noneho iri mu Kinigi, iriho ishushanyijeho ibikoresho gakondo. Aha ni mu Murenge wa Kinigi, mu Karere ka Musanze. Iyo nzu ni ho yubatse muri santere ya Kinigi.

Umugenzi uri mu muhanda w'amapave, wacitse, ayo mapave akaba akoze ako kayira, kakaba kari iruhande rwa kaburimbo, aho bita mu nzira y'abanyamaguru, hakaba hariho n'ipoto y'amashanyarazi.

Kontwari irimo inkweto za sandali cyangwa se izo twita comeka, zambarwa n'abagabo cyangwa abagore bafite uturenge twiza, iyo kontwari ikaba isize irangi ry'icyatsi, iyo kontwari ikaba irimo izo nkweto zitandukanye, ndetse hakaba munsi mu ka etajeri ko hasi kambere harimo amakarito.

Abagabo n'abagore bambaye imipira y'icyatsi n'udupfukamunwa, b'abayobozi basuye umuntu wikorera, ari kubasobanurira ku bijyanye na poroduwi akora n'uburyo azikora, uwo muntu basuye yambaye agapira k'umweru afite ijambo ari kuvuga.

Muri hoteli intebe n'ameza biri kuri resebusiyo aho bakirira abakiriya, ndetse aho hubatse hari umwenge ni aho babacanira kugira ngo bacanira kugira ngo abakiriya bote, hakaba hari intebe y'umufariso n'urugi rufite iserire...

Inzu y’amatafari ahiye，isize irangi ry’umukara， ayo matafari ahiye hasi hariho amatafari afite ibara ry'umutuku noneho ikaba ishushanyijeho， ikirango bita moteri.

Utumodoka two muri hoteri dutembereza abagenzi, muri ako kamodoka hakaba hicayemo umugabo wambaye umupira wi'cyatsi, n'inkweto n'ipantaro y'umukara, uwo mugabo akaba ari gutembera muri ako kamodoka gasakaye kakaba gafite amapine abiri.

Inzu y'ubucuruzi iri ku mpande y'umuhanda wa kaburimbo ku irembo rya nyiri urugo, mu gikari hari inzu ya nyiri urugo, Ku irembo bagashiramo inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibintu bitandukanye.

Imitego itega imbeba. Imbeba ni udusimba tuba mu nzu, turya imyenda, tukarya n'imyaka, iyo ufashe umutego ugatega rero imbeba zirapfa. Hakaba hariho n'imyuko, imyuko nayo ikorwa mu biti, nayo bayikotekesha imitsima cyangwa bakayishigishisha igikoma. Noneho n'indiga, indiga zikaba zihata ibirayi cyangwa zigakeka imboga.

Isoko rya Goyiko ryaremye, isoko rya kariyeri ry'imbuto z'ibiribwa ryaremye mu mujyi wa Musanze. Bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye mu isoko. Ibicuruzwa bari gucuruza, harimo imbuto ziribwa n'ibindi bintu bitandukanye.

Umukobwa wambaye agapira k'ubururu n'ijipo y'ikirondoni, ufite udukapu twinshi ari gucuruza akaba ari muri kariyeri noneho impandeye, hakaba hari umugabo uri gucuruza agaconsho, akaba ari gucuruza umuceri n'amavuta yo kurya n'ibindi bintu bitandukanye.

Ibitoki bihagaguye biri mu mufuka n'abagore bari kubicuruza hari n'abahagaze impande bari kubigura, n'udufuka two kuguriramo, n'inzu z'ubucuruzi ziri inyuma, hagati yabo hakaba hari igiti kizamuye noneho abagabo hakaba hariho n'umugabo wunamye ari gucisha...

Watameloni, sereri n'ibibiriganya, na tungurusumu biri mu isoko ry'ubucuruzi muri butike. Ibi biri mu mboga n'imbuto biribwa mu giturage ndetse no mu mujyi bararabikoresha, ariko ibi ni ibirungo by'inyama.

Ibibafu bibiri birimo imbuto ziribwa amaronji ,ibinyomoro, ndetse n'izindi mbuto zitandukanye .Amaronji ni imbuto ziribwa zikagagura mu kanwa, ibinyomoro byo ntabwo biribwa n'umwana utarageza ku myaka ibiri kuko bica apeti ariko byongera amaraso ,na byo biri mu mbuto bikaba biri aho babicururiza.

Amata ya yawurute agura igihumbi. Aya mata akaba anyobwa n'abana cyangwa se abantu bakuru. Akunda kuba ari inshushu, ariko aya mata araryoha ari mu ducupa tw'umutuku. Ari kuri kontwari aho bayacururiza.

Isoko ry'imbuto n'ibiribwa muri Kariyeri aho harimo imineke ya poyo n'imineke ya goromisheri na kokombure na wotameruni n'amaronji n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, harimo n'umwana uri gucuruza inanasi na nyina.

Ukinjira muri Goyiko ugafungumukiyamo hasi, uhita ubona amabutiki cyangwa se inzu z'ubucuruzi zitandukanye, ubwo rero abacuruza imyenda cyangwa se abakodesha indabo, aha ngaha ni hasi muri Goyiko.

Abantu baremye isoko muri goyiko bari kureba ibicuruzwa bitandukanye bari kubireba muri goyiko hasi utarazamuka hejuru ni mwo bari kurebera ibyo bicuruzwa, abagore n'abagabo.

Ibisima, kuri ibyo bisima hakaba hatanditse watameloni, hatanditseho imineke ya goromisheri ,n'imineke ya poyo, n'indi mineke itandukanye ,hatanditsemo n'amapapayi, muri ibyo bisima ,hakaba hahagazemo abantu bari gucuruza, ndetse iki gisima bikaba gisakariye, ni muri kariyeri munsi ya gare, aho bari kubicururiza munsi ya gare ya Musanze.

Igisheke cya sukari kegetse impande y'inzu, icyo gisheke kikaba kirimo ikiribwa kivamo isukari, hakaba hariho n'umugore uhetse umwana n'abandi bantu batandukanye bari mu isoko, icyo gisheke kikaba cyegetse impande y'inzu.

Umuceri, amavuta, isukari n'ibindi bicuruzwa bitandukanye biri kuri butiki cyangwa se ku mangazini biri gucuruzwa n'umugore, amavuta barayateka bakayarya ndikubona amavuta, hari amavuta y'amasukano yari mu macupa akaba ahantu ni nayamuceri barawuteka byose bifite akamaro

Amafi atanu ,ayo mafi ,abiri ari mu ibase y'ubururu ndetse atatu ari ku mufuniko aratanditse .Aya mafi barayarya ushobora kuyirya yokeje ,ushobora kuyirya wayiteguye ukayikoramo isosi itetse .Ifi ni nziza iyi fi bavuga ko itera ubwenge.

Wotameroni esheshatu n'ibinyomoro, wotameroni ni igihingwa cyiza gihingwa ahantu hashyuha bayitera inzuzi zigakura zimeze nk'ibihaza zikaranda hasi zamara kuranda hasi zikera ibihaza ibyo bihaza iyo byeze baragikeka bakakirya kigabanya umuvuduko w'amaraso n igihingwa kimara inyota ni intungamubiri nziza ku mubiri w'umuntu.

Imyenda ya caguwa itanditse mu isoko, muri iyo myenda hakaba harimo imipira y'imbeho ndetse ifite ibara ry'umukara, n'ibara ry'ubururu, n'amajezi. Iyo mipira ikaba ari imyenda abantu bambara cyane cyane imipira y'amaboko bayambara igihe imvura yaguye hakonje.

Utuyunguruzo twa purasitike, tuyunguru icyayi haba icya mukaru n' icyayi cy'amata, utwo tuyunguruzo twari dufite ibara ry'ubururu, ibara ry'umutuku, n'ibara ry'umuhondo, tumanitse ahantu hejuru ari twinshi cyane, tukaba tumanitse mu isoko ryatwo. Utwo tuyunguruzo ba dukoresha bakura imyanda mu cyayi.

Amashu yaciwe, afite ibara ry'icyatsi, aya mashu bakaba bayatekamo sarade, amashu bakaba bayarya atogosheje cyangwa se akaranze, amashu iyo bayatetse mu mazi avura indwara y'igifu, nk'ayo mazi yayo, amashu ni igihingwa kirimo mboga ziribwa, ariko akunda kugira ibara ry'umweru batayashyizemo ikirungo.

Butike icuruza amafu, n' ibigori, n' ibishyimbo byo kubetesha, n' ibiryo by' inkoko; butike ikaba icuruza ibiribwa bitandukanye, ariko cyane nki ibiryo by' amatungo.

Mu mujyi wa Musanze ahacururizwa ibiribwa bitandukanye mu isoko mu isoko rya kariyeri, aho bari gucuruza ibishyimbo, amafu y'igikoma, n'ubunyebwa. Aha ni mu mujyi hari gucururizwa ibiribwa bitandukanye, mbese bijyanye n'ibikoma n'imyaka byo kurya.

Ibitoki by'incakara bizwi ku izina ry'inyamunyo. Ibitoki byinshi bitanditse mu isoko. Ibi bitoki biraribwa. Babiteka bitogosheje, babitekamo agafiriti cyangwa se bakabiteka mu makaroni cyangwa mu majeri. Ibyo noneho, ibitoki bikaribwa. Yaba abana cyangwa se abantu bakuru bakunda igitoki.

Umucuruzi wambaye umupira w'umweru n'ijipo y'umukara yicaye mu bisima ategereje abakiriya. Hari itara riri kwaka, ari gucuruza amapura, amabase, agacuruza n'ibindi bikoresho bya pulasitike, biri aho ngaho mu bisima.

Inzu z'ubucuruzi hariho imiryango ibiri ikinguye imbere yayo haparitse igare, ndetse kuri izo nzu hakaba hariho ibyapa bigaragaza ibikorerwa muri izo nzu z'ubucuruzi, hirya hariho n'indi miryango ifunze, iyo tugiye muri izo nzu z'ubucuruzi duhahiramo cyangwa se twagurisha tukagurisha ba nyir'inzu, abacuruzi ibyo tuba twajyanye mu isoko.

Inanasi nziza cyane zigera mu nanasi icyenda. Izi nanasi zikaba ziri ku nkoko n'umufuka. Ziri gucuruzwa zikaba zeze neza, ku buryo iyo uyihase uhita uyirya. Inanasi iraryoha ni deseli.

Isoko ry'imboga, umugore wambaye ishati ya londoni ukenyeye igitenge hakaba harimo povuro ziri mu gapaniye na pavuro zitanditse ku meza n'abaguzi baje kuzigura, pavuro zikaba zifite ibara ry'icyatsi. Izi pavuro zikorwa zikoreshwa ari ibirungo by'ibyo kurya bitandukanye.

Muri iyi kantine aho bacuruza icyayi, icyayi kirimo, harimo amadobo arimo amandazi, hakaba harimo amaji yo mu bucupa, hakabamo n' amateremusi, hakabamo na kontwari irimo amandazi.

Ibicuruzwa bitandukanye by'ikoranabuhanga biri mu iduka muri nimero mirongo itatu na kabiri hejuru hari agaparafo ibi bicuruzwa hakaba harimo nka ekuteri, za sharijeri ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Muri gare ya Musanze ahari imitaka icururizwamo Mitiyu, iyo nzu yubatseho imbaho akaba ari inzu icururizwamo ibyo kurya, bakaba bahita mu isoko ry'ibiribwa, harimo umugabo uri kugenda wambaye agakote k'umukara ,ndetse n'abandi bantu baje kurema isoko ,hirya hakaba harimo n'ibicuruzwa bitanditse mu mitaka.

Mu isoko ahacururizwa imyenda y'abana igiye ifunze mu dukapu twayo, imyenda y'abana cyane cyane iy' impinja. Iyo umugore atwite akaba agiye kubyarira mu isoko, kugura imyenda azambika umwana abyaye.

Imodoka zigera muri esheshatu zo mu bwoko bwa tagisi vuwatire zifite ibara ry'umukara ziparitse impande y'isoko. Imbere yaryo hakaba hari kaburimbo, hakaba hariho n'umumotari wambaye agapira k'umutuku uparitse hakuno ya kaburimbo, n'umugabo wambaye agapira k'umweru ushaka kwambuka kaburimbo.

Isoko rya karoti ririmo urusenda, ririmo na karoti ziri mu gapaniye, noneho mu mugi wa Musanze hari abagore bagera muri bane baje guhaha, ndetse n'abandi batanditse ku ma kontwari yabo, hariho imiteja, hariho n'ibindi bicuruzwa bi...